Abana bato bagaragara nk'ab'imyaka irindwi bambaye impuzankano, barimo barakina umupira bari kumwe n'umwarimu wabo ndetse hagaragaramo n'umwana w'umukobwa ufite imbago imufasha kugenda.

Kandagira ukarabe isa n'ibara ry'icunga ndetse n'akabase kamanukiramo amazi iyo abantu bamaze gukaraba intoki, gasa n'ibara ry'idoma gateretse hagati ahari igitaka ndetse gakikijwe n'ibyatsi.

Umubyeyi wambaye agapira k'umutuku, urimo ushimisha umwana we, mu byo bita ibyicungo byabugenewe, abana bajyamo bakizunguza, bakarya umunyenga ndetse bakishima.

Abana batoya b'inshuke bambaye utugofero tw'abayisilamu, bafite igikoresho kikoreshwa mu gutera amarangi barimo batera irangi ry'umweru ku gikuta babikora bishimisha.

Imbwa iy'umweru n'umukara ndetse irimo irakina n'ibikinisho by'abana bifite amabara atandukanye, hari ibisa nk'ibara ry'icunga, hari ibisa ubururu ndetse n'iry'icyatsi n'ayandi atandukanye.

Ishuri riri mu kigo cy'amashuri y'inshuke, ndetse n'ibikuta bigiye bishushanyijeho, ibintu byinshi, harimo imikubuzo ibisokozo, abana, ibase, ndetse n'ibindi bifasha abana kumenya gusoma no kwandika.

Abana batoya bari mu kigero cy'imyaka irindwi, barimo bishimisha mu byicungo byabo byabugenewe by'amabara atandukanye, harimo icyatsi, arimo iroza, ibara ry'icunga, ndetse n'andi, ndetse bari kumwe n'abantu bakuru babafasha kugira ngo batavunika.

Imbwa y'umukara n'umweru irimo igerageza gukina agapira gafite ibara ry'umutuku ndetse n'iry'ubururu, iri ahameze nko muri kaburimbo ndetse inyuma hari ibiti bitagaragara.

Igikuta gishushanyijeho inkoko, imyumbati, inyama ndetse n'ibindi byinshi bifasha abana b'inshuke kuba babasha gusoma cyangwa se kuba bamenya amazina y'ibiryo bigiye bitandukanye.

Abana bicaye ku dutebe tumanitse ku byuma twizunguza tubajyana imbere, tubasubiza imbere ndetse ibi bikaba byitwa ibyicungo mu kinyarwanda, aho abana bajya bakarya umunyenga.

Abana batoya biga mu mashuri y'inshuke, barimo barakina mu mbuga ndetse bakikijwe n'amashuri yubakishije amatafari, afite ibisenge by'ubururu n'imiryango y'ubururu ndetse n'ikigega.

Ikigo cy'amashuri y'incuke, ku bikuta byacyo hashushanyijeho ibintu byinshi, ari ibibigisha cyangwa se ibyo bareba bakishima ndetse ibi bituma abana bagira ibyo bigiramo.

Abana batoya b'inshuke biga mu kiburamwaka, bicaye ku musambi kandi bafite udukinisho dutandukanye, barimo barereka urimo abafotora, ku bikuta byabo hashushanyijeho utumodoka ndetse n'ibindi bishimisha abana.

Mudasobwa nyinshi ziteretse ku amameza, mu kigo k'ishuri, mu cyumba abanyeshuri bigiramo ibijyanye n'ikoranabuhanga, ndetse no gukoresha za mudasobwa ziba ziri mu kigo.

Aha hanagaragara ibitabo byinshi bizwi nk'iby'abana, ibitabo basomera abana iyo bari kwiga mu ishuri, cyangwa se bashobora kubasomera bagiye kuryama kugira ngo basinzire vuba.

Igitabo cyanditswe n'uwitwa Kereva Irakoze, cy'abana kivuga ku nkuru y'umwana w'umuhungu, utangaje n'iby'ubuzima bwe bwose gikunzwe gusomwa n'abana cyane.

Igikapu cy'abana, gisa ibara ry'iroza, ndetse n'umweru, giteretse ahantu hasa nk'ibara ry'icunga, ndetse hari n'igikuta cy'umuhondo gishushanyijeho utuntu dushimisha abana.

Igitabo kigisha ibijyanye n'ubumenyamuntu mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ndetse gifasha abanyeshuri kumenya umubiri wa muntu uko uteye ndetse n'ibikorerwa mu mubiri we wose.

ibitabo bisomerwa abana batoya b'inshuke kugeza ku myaka icumi, kugira ngo babashe kuba bamenya gusoma ndetse babashe kuba bakiga imico itandukanye yo kurya imbuto n'imboga.

Abana batoya b'inshuke, bicaye ku cyicungo kizenguruka, bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'icyatsi, barimo bishimisha imbere y'amashuri yabo mu gihe cy'akaruhuko.

Agatabo gasomwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke kitwa Gakire na Gasaro, kavuga ku muhungu n'umukobwa bitwa ayo mazina kandi gashimisha abana kubera udukuru turimo.

Udutabo dusomerwa abana b'inshuke dutoya, tugiye turimo inkuru nyinshi zitandukanye, zibafasha kumenya gusoma, kumenya kwandika, kumenya ubuzima bw'abana batoya ndetse n'uko bakitwara.

Inziga ebyiri, zigishwa mu mibare, yo mu mashuri yisumbuye, ndetse rumwe rusa ubururu, urundi rusa ibara ry'idoma, ndetse rurimo inyuguti ya a, ahandi naho harimo a, na u icuritse, na b na b.

Icyumba cyo kwigiramo k'ishuri kirimo udutebe twabugenewe twicarwaho n'abana biga mu mashuri abanza ndetse n'utumeza baterekaho amakayi barimo barandika.

Icyumba gisukuye gisa neza kirimo cyakamo amatara ndetse kigaragaramo imitako y'abana, ibikinisho by'abana, mo imbere hari akabaho gashushanyijeho ibyerekeranye n'abana, bisa nk'aho aribo babishushanyije.

Agasanduku gatoya gakoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza cyangwa se yisumbuye, kaba karimo irate, kereyo ndetse n'ikaramu, bibafasha guca umurongo ndetse no gushushanya, n'ibyo bandikisha.

Ibikoresho by'abanyeshuri biga mu mashuri abanza birimo ikibafasha kubara, amakereyo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bifashisha bashushanya mu ishuri.

Ikinyugunyugu cy'amabara meza yiganjemo umweru, umuhondo, n'umukara ndetse kikaba kiri guhumba ubuki buva mu ndabo ari nabwo butunga inzuki.

Ibikoresho bikoreshwa mu mikino itandukanye y'abana ndetse n'abakuru rimwe na rimwe, yiganjemo amabaro matoya n'amanini n'ibyo bakoresha batererana.

Icyumba gikinirwamo imikino y'abana batoya ndetse gitatse cyane gitatswe n'utuntu dushimisha abana ndetse n'ibyinshi muri byo bifite amabara y'abana.

Aha hagaragara igitabo gisomerwa abana kiriho inyuguti z'ikinyarwanda, ndetse zisomwa n'abana b'inshuke kugira ngo batangire bige kumenya gusoma.

Inkurushusho isomerwa abana bo mu mashuri abanza kandi ibigisha mu buryo butandukanye, ishobora kuba ari ibigisha gusoma cyangwa se ibigisha uko bakitwara mu bandi.

Aka ni agasanduku k'icyuma kaba karimo late yifashishwa guca umurongo, gome, kereyo na kompa yifashishwa mu gushushanya, aka gakoreshwa n'abana biga mu mashuri abanza.

Abana b'abanyeshuri b'urubyiruko, bahagaze bafashe igipapuro cyanditseho kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'munani bibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane.

Aha haragaragara abagore cyangwa se abakobwa barimo bakora umwuga w'ubudozi bw'imyenda ndetse bagaragara nk'ababyishimiye cyane kandi babikora babikunze kurusha ibindi byose.

Abanyeshuri bari mu ishuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse bicaye mu ntebe zabugenewe abanyeshuri bicaraho, inyuma hari ikibaho cyanditseho ndetse abenshi barishimye.

Ikivunge cy'abanyeshuri bicaye hasi ndetse n'abahagaze, barimo bumva inama z'uwasuye ikigo cyabo, ndetse harimo abagirwa inama ku myitwarire yabo y'ahazaza n'ibabaranga.

Ahagaragara ibitabo byinshi bitandukanye iby'imibare, iby'indimi ndetse n'ibindi mu isomero ryo mu mashuri yisumbuye, aho abana bajyamo mu gihe cyabo cy'akaruhuko kugira ngo bagire ubumenyi biyungura.

Inyubako ndende kandi nini ihurutuye, yubakishijwe amatafari ahiye igiye irimo amarange y'umweru akoze uturongo ndetse yubatswe mu buryo bw'amashuri yisumbuye.

Abanyeshuri bari mu kizamini bicaye batandukanye, ndetse hahagazemo n'abayobozi bashinzwe kubarebera kugira ngo hatagira ureba ku ruhande cyangwa se ngo yandukure ibya mugenzi we.

Abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri yisumbuye bambaye impuzankano zitandukanye, ku ruhande rw'ibumoso hari abambaye izisa ukwabo n'urw'iburyo hari abambaye izisa ukwabo kandi bose basetse barimo barifotoza.

Abanyeshuri bahagaze ku mirongo, bambaye impuzankano zitandukanye, barimo bumva amabwiriza y'abayobozi b'ikigo, mbere yuko bajya mu mashuri kwiga bisanzwe.

Abantu bari mu kigo k'ishuri, ahagaragara nk'inyubako nshyashya bari gusura cyangwa se bari gufungura ndetse n'amasafuriya manini cyane atekerwamo abanyeshuri mashyashya.

Umugabo ufite indangururamajwi urimo uririmba ndetse inyuma ye hari abakobwa b'abanyeshuri, bambaye amajipo barimo bamufasha kuririmba kugira ngo basusurutse abantu.

Abanyeshuri bari mu kigero cy'abiga mu mashuri yisumbuye bicaye mu ishuri ku ntebe zabugenewe, ndetse kuri buri ntebe hicayeho babiri babiri bafite ikibaho inyuma kandi n'imbere hari ikindi.

Abanyeshuri b'abakobwa ndetse n'abahungu, bicaye ahantu hanini, umwe yicaye hirya y'undi, bicaye bakurikiranye ndetse bambaye udupfukamunwa turinda ikwirakwiza ry'indwara z'ubuhumekero.

Imitako yo ku mubiri y'abakobwa imanitse ku giti gikoreshwa mu bwubatsi cyane ndetse irimo iragurishwa irimo amaherena, udukomo ndetse n'ibindi, bikoze mu gitenge kandi bidoze.

Aha haragaragara ibishushanyo bibiri bimanitse ku gikuta, kimwe n' icy'umugore kigaragara nk'umukara ndetse ikindi nacyo ni icy'umugore yifashe mu mayunguyungu uteze igitambaro.

Abantu benshi bishimye kandi basimbutse bari kwifotoza, batereye hejuru ingofero kuko barangije amashuri yabo ndetse bambaye amakanzu agaragaza ko barangije.

Igikuta gisa icyatsi kimanitseho ubugeni bwinshi bushushanyije ndetse bukoreshejwe amarangi bigera mu icumi cyangwa se burenga hirya haragaragara ikizimya umuriro gisa umutuku.

Imitako myiza iteretse ku meza, isa ibara ry'ikigina kandi ikozwe mu biti, indi nayo iri hirya ikozwe mu mabumba yabugenewe kandi ikaba ijyamo indabo, ari byo bita amavazi.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri ndetse hagati yabo harimo intera ya metero imwe kandi bambaye udupfukamunwa buri wese kugira ngo hatagira uwanduza mugenzi we indwara zandurira mu buhumekero.

Inzu ndende kandi nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru, ifite imiryango myinshi ndetse n'igisenge gitukura, imbere yayo hari ubusitani bwiza kandi butoshye.

Umukobwa ukiri muto ugaragara imbere y'abandi n'inyuma hagaragara bagenzi be, bari mu cyumba cy'ubushakashatsi ndetse bambaye imyenda yabugenewe ikoreshwa mu cyumba cy'ubushakashatsi kandi bari gukoresha ibyuma byabugenewe.